Umukobwa uri kwerekana telefone. Telefone irimo apulikasiyo ari kwerekana, apulikasiyo ya banke. Arimo arerekana apulikasiyo wadawunirodinga ikaba yagufasha gukoresha akawunti muri banke.

Abacuruzi bari mu isoko bari gucuruza insenda, bagacuruza intoryi, mbega n'ibicuruzwa byinshi by'imbuto, ni isoko ry'imbuto bategereje abakiriya.